Abakozi bakorera ikigo k'itumanaho cya mtn bakaba bari mu mu mutaka bifashisha bari gucuruza bambaye amajire ndetse bari impande y'inyubako iteye irangi ry'umuhondo.

Akazu gatoya gakoreramo abantu bacuruza serivisi z'itumanaho ako kazu kakaba ari aka Airtel kakaba gafasheho ukuboko k'umuntu bigaragara ko ari nyiri ako kazu.

Umukozi ukorera ikigo k'itumanaho cya MTN akaba ari mu kazu, impande imbere ye hakaba haje abantu baje kwaka serivisi zijyanye n'amafaranga.

Umukozi ukorera ikigo k'itumanaho cya Airtel akaba yambaye ijire y'umutuku y'ikigo cya Airtel, afite indangururamajwi bigaragara ko ari gususurutsa abantu bari aho ngaho.

Ni akazu ka Airtel kakaba gakorerwamo umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya Airtel, akaba agakoreramo agatangiramo serivisi zijyanye n'amayite ndetse n'amafaranga.

Abakozi bakorera Ikigo k'itumanaho cya MTN bari mu tuzu, aho hagaragara utuzu dutatu dukoreramo abakozi batandukanye bakorera iki kigo,, ni ikigo gifasha abaturarwanda kubona serivisi z'itumanaho.

Umucuruzi ukorera sosiyete y'itumanaho ya MTN akaba ari mu kazu kabugenewe acururizamo, imbere ye hakaba hari abagabo babiri baje kwaka serivisi hirya yaho hakaba hari icyapa kiriho Airtel ndetse na Tigo.

Umukozi ukorera ikigo k'itumanaho cya MTN akaba ari munsi y'umutaka, yambaye ijire y'umuhondo ndetse iruhande rwe hakaba hari abantu baje kumwakaho serivisi.

Abantu bari ahantu hateguwe bigaragara ko baje kwaka serivisi runaka, abagabo babiri bakaba bafite icyuma cy'ikoranabuhanga, bigaragara ko bari gufatora isura y'abo basore baje babagana.

Isoko ritangirwaho serivisi zitandukanye hakaba hari abantu bafite amagare ndetse n'imodoka, hagati hakaba hagaragara umukozi ukorera ikigo k'itumanaho cya MTN akaba yicaye mu mutaka.

Umukozi ukorera Ikigo k'itumanaho cya MTN ari mu kazu acururizamo cyangwa se atangiramo serivisi, imbere ye hakaba haje umumama wambaye ikanzu y'umweru aje gusaba serivisi.

Ni isantere, hakaba hari inyubako ndetse hakaba hari n'umukozi ukorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, akaba ari mu mutaka yambaye ivi y'umuhondo y'akazi, akaba ari gutanga serivisi ku baza bamugana.

Umukozi ukorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, akaba ari mu kazu acururizamo, imbere ye hakaba hahagaze abagabo babiri, baje kwaka serivisi zijyanye n'amafaranga.

Urubyiruko rwambaye udupira twa sosiyete y'itumanaho ya MTN, bigaragara ko ari abakozi bakorera icyo kigo, bafite telefone ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga, bigaragara ko bari gufasha ababagana.

Abakobwa babiri bakorera ikigo cy'itumanaho cya Airtel bakaba bambaye udupira tw'iyi sosiyete, bafite telefone mu ntoki bigaragara ko bari gushishikariza abantu kuba bagura izi telefone.

Abantu benshi bateraniye mu ihema hakaba higanjemo abambaye imipira y'impuzankano y'ubururu bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro runaka.

Abagabo bane bari impande y'ikiyaga, bakaba bafite impapuro, umwe ari kwandika bigaragara ko ari abakorera hamwe barimo bagira ibyo baganiraho kandi buzuza.

Inyubako iri mu mabara y'umuhondo, imbere yayo hakaba hari imodoka ndetse ku kibuga kiri iruhande rw'iyo nyubako, hakaba hari ibiti ndetse hagaragara n'insinga z'amashanyarazi.

Abantu bari mu murima w'inanasi bambaye udupfukamunwa, harimo umwe wicaye ikindi kandi bakaba bari kuzisarura kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere.

Abantu bateraniye munsi y'ihema, imbere yabo hakaba hahagaze abagabo batatu bambaye udupira bigaragaza ko ari impuzankano, bakaba bafite seretifica barimo kwifotoza.

Abantu bateraniye munsi y'igisharaga, imbere yabo hakaba hahagaze umumama uri kumwe n'umugabo wambaye imyambaro ya Dasso ariko akaba adafite ukuboko, bafite seretifika bigaragara ko bari kwifotoza.

Abantu bateraniye hamwe bigaragara ko bari kwanika umusaruro, iri rikaba ari itsinda rikorera hamwe kugira ngo ribashe kuba ryakiteza imbere bityo ubuzima bwabo bugende neza.

Abantu bari mu cyumba bakaba bambaye imyambaro igiye itandukanye bigaragara ko bishimye bakaba bari kwifotoza, ni byiza gukorera hamwe kuko birushaho gufasha abantu kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Umugabo wambaye ikositimu y'umweru, akaba afite mikoro bigaragara ko ari mu cyumba giteraniyemo abandi bantu, bikaba bigaragara ko ari kubagezaho ikiganiro cyangwa se ubukangurambaga ku ngingo yabateguriye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo hagaragaramo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ameza, intebe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bifasha abakiriya mu guhabwa serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo izwi nka bare, ikaba ari inyubako yubatse ahantu imbere yayo hakaba hagaragara indabo ndetse n'ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni botike icuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hagaragara agapuderi kifashishwa kugira ngo baba babashe kuba basukura abana batoya kugira ngo babarinde indwara zitandukanye z'uruhu.

Iduka ririmo ibicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye hakaba harimo umudamu uri gucuruza ibishyimbo, amavuta ndetse n'ibindi bwoko bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ni botike icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba hagaragaramo utujerikani turi muri etajeri ikaziya irimo ibinyobwa, ndetse n'utundi ducuruzwa tugiye dutandukanye.

Ahacururizwa ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye haragaragara ibicuruzwa byiganjemo ibikoresho byo mu rugo, hakaba hagaragara igare ririho ibindi bintu bapakiye mu mufuka.

Ahacururizwa ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye, hagaragara ibicuruzwa bitandukanye birimo ibikoresho byo mu rugo, hagaragara amagare ndetse hakurya hakaba hagaragara inyubako irimo ibindi bicuruzwa.

Inyubako y'urusengero hakaba harimo abantu benshi bateraniyemo, imbere hakaba hari umuntu uri kubagezaho icyigisho yabateguriye.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inyubako bakaba bari kumwe n'umukozi wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, akaba ari kumwe n'uwihayimana bigaragara ko bari kuganira ku ngingo runaka.

Abantu benshi bateraniye impande y'urusengero, bigaragara ko habaye igiterane, bakaba bitabiriye amateraniro, bityo kugira ngo babashe kuba bakumva ijambo ry'Imana.

Inyubako y'urusengero ikaba iteraniyemo abantu benshi, imbere hagaragara umusaraba ndetse ku mpande hakaba hagaragara ishusho ya Yezu, izi nyubako zifasha abakirisitu mu kwitagatifuza.

Itsinda ry'abagabo benshi bambaye amakositimu ndetse imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitambaro, hejuru y'ameza hakaba hariho amacupa ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye.

Abantu benshi biganjemo aba mama ndetse n'aba papa bambaye neza, bahagaze imbere y'urusengero hirya ndetse no hino hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni inyubako y'urusengero imbere hakaba hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'umweru, bigaragara ko ari kubwira abamukurikiye imbere.

Abantu benshi biganjemo abagabo bakaba bari ahantu bigaragara ko bari gukata icyondo aho bari kuvoma amazi baza basukamo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo, hakaba harimo ubwoko bw'intebe ndetse n'ameza bugiye butandukanye, bwifashishwa kugira ngo babashe kuba batanga serivisi nziza ku bakiriya.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo, ikaba ari inyubako ifite amarangi agiye atandukanye kandi ikaba yubatse mu buryo bw'igorofa, impande yayo hari ubusitani.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo iri mu mabara y'umweru, imbere yayo hakaba haparitse imodoka, hirya ndetse hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo ikaba iri mu mabara y'umweru ku nkengero yayo hakaba hagaragara imodoka ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ni icyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi y'ubukerarugendo, hakaba hagaragaramo ibikoresho bitandukanye biriho ameza ndetse n'ibitanda, bikaba bigaragara ko ari aho bakirira abashyitsi.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi zijyanye n'ubukerarugendo, ni inyubako yubatse ku buryo bw'igorofa, ikaba ifite irangi ry'umweru, ku nkengero zayo hakaba hagaragara ubwoko bw'ibimera bitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo ni inyubako ndende, imbere yayo hakaba hari ibiti by'imikindo, hakurya hagana haruguru hakaba hari izindi nyubako zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo, irimo abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari umuntu ufite indangururamajwi cyangwa se mikoro akaba ahagaze imbere yakameza.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza agiye ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa bigaragara ko ari inama yabahuje, bakaba barimo biga ku ngingo runaka.

Ni icyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi y'ubukerarugendo, hakaba hari icyumba kirimo robine bigaragara ko ari aho bakarabira kugira ngo birinde umwanda.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubukerarugendo haragaragaramo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ameza, intebe ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abagana aha hantu kubona serivise nziza.

Inyubako zagenewe ubukerarugendo ikaba ku nkengero yayo hari umuhanda ndetse n'ibindi bikorwaremezo, izi nyubako zikaba zifashishwa mu gutanga amacumbi ndetse n'izindi serivisi zijyanye n'ubukerarugendo.

Abagabo babiri bari mu nyubako itangirwamo serivisi zo kugaburira abantu, umugabo umwe akaba ari impande y'ameza ariho ibyo kurya ndetse n'amacupa y'ubwoko butandukanye akaba ari guteka.

Inyubako ebyiri ziteganye z'isoko hagati yazo hakaba harimo umuhanda w'igitaka, hari abantu ku rubaraza rw'izo nyubako hagi hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Isoko rigaragara ko ariryo mu cyaro hakaba hari abantu bari ku ma moto ndetse n'abandi bantu bari gutembera bisanzwe, iryo soko rikaba ryubakishije amashitingi ndetse hakaba hari umuhanda w'igitaka.

Isoko riri ahantu mu cyaro hakaba hanyuramo umuhanda w'igitaka, haragaragaramo abantu harimo abafite igare. Iryo soko rikaba ricuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyambaro.

Ni ishitingi ishashe hasi ikaba irambitseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo byiganjemo utuyunguruzo ndetse hakaba n'akadobo karimo utumamiyo.

Isoko ricururizwamo ibintu bijye bitandukanye, ahagaragara umufuka urimo umuceri ndetse n'amacupa arimo amavuta, bikaba ari ibicuruzwa bicuruzwa.

Isoko riri ahantu mu cyaro rikaba riri ahantu hari ibyatsi, hagaragara abantu bari gucuruza inkweto z'ubwoko bugiye butandukanye ndetse hepfo y'isoko hakaba hagaragara inyubako zigiye zitandukanye.

Umubyeyi uri kwanika imyumbati ku mbuga, hirya ye hakaba hari abantu bafite amagare ndetse n'izindi nyubako zitandukanye, zibasha kuba zafasha abantu kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere.

Isoko riri ahantu bigaragara ko ari mu cyaro rikaba rinyuramo umuhanda w'igitaka, hari abantu benshi barijemo bakaba bari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

isoko ryahuriyemo abantu batandukanye, rikaba ricuruza ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubukerarugendo, hakaba higanjemo ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku bakiriya.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubukerarugendo hakaba hagaragaramo ibikoresho bitandukanye birimo ameza ndetse n'intebe, aho abazigana babasha kwicara maze bagahabwa serivisi nziza.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo umumotari utwaye moto akaba apakiye amacupa y'amagaze, hakurya y'umuhanda hakaba hagaragara inyubako ndetse n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo moto yicayeho abagabo babiri, hiryaya y'umuhanda hakaba hari inyubako ndetse imbere y'inyubako hakaba haparitse imodoka ebyiri.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo abamotari ndetse ku nkengero y'umuhanda hakaba hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, kunyengero y'umuhanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo umugabo wicaye kuri moto uhetse umufuka, ku nkengero y'umuhanda hakaba hagaragara inyubako zitandukanye ndetse n'umurima urimo igiti.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo umugabo utwaye igare akaba ari kuvugira kuri telefone, hirya y'umuhanda hakaba hagaragara inyubako ndetse n'ubwoko bw'ibiti.

Umugabo wicaye kuri moto ikaba ipakiyeho imifuka ndetse n'ibitoki, imbere mu muhanda hakaba hagaragaramo imodoka ndetse n'abantu bari gutera intambwe.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba harimo umugabo wicaye kuri moto hirya y'umuhanda hakaba hagaragara amapoto y'insinga z'amashanyarazi ndetse hirya hakaba hagaragara ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Abantu babiri bicaye ku igare akaba ari umusore utwaye umukobwa bigaragara ko ari umuzungu, hirya yabo hakaba hagaragara inyubako bisa nk'aho zishaje.

Umugabo wicaye kuri moto ihagaze ahantu mu gahanda k'amabuye hirya hakaba hagaragara ubwoko bw'inyubako ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo imodoka nyinshi, hari imodoka y'umutuku yasatiriye imirongo y'umweru aho abanyamaguru bambukira ndetse ku ruhande hakaba hari abamotari ndetse n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba harimo abamotari babiri bari ku moto ndetse n'abandi bantu ku ruhande, harimo abafite amagare ndetse n'abandi bantu bari kugenda n'amaguru.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo moto yicayeho umuntu uhetse umuzigo uri mu mufuka, akaba ageze ku mirongo y'umweru ahambukira abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo abantu babiri bari ku moto, hirya y'umuhanda hakaba hari inyubako bigaragara ko ari isoko aho hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo umuntu ushoreye igare ripakiye imifuka ndetse n'ibikarito, ku nkengero y'umuhanda hakaba hagaragara abantu bari kugenda ndetse hirya y'umuhanda hagaragara ibiti.